Saniramu ni ubwishingizi bukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, bukaba buri kumenyesha yuko ubu ngubu buri kumwe na saniramu ariyanzi, bikaba byakoze ikintu kimwe ndetse ubu bwishingizi bwombi bukaba bugiye gutanga serivisi nziza zinogeye ababagana.

Aho imihanda ihu yo mu mijyi myinshi bikomeje kugaragara ko haba hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'abatwara ibinyabiziga ndetse baboneyeho no gufata amahirwe ya bino bintu babyazamo kwamamaza aho bashyira ibyapa hejuru ku mihanda, ku buryo umushoferi utwaye imodoka cyangwa umugenzi ashobora kukirebaho akaba yagura ibikorwa biri kwamamazwa.

Itangazo ryo kwamamaza ubwishingizi bwa Radiant aho bavuga ko ibihe nk'ibi ntibyabaho hatabayeho icyizere, urukundo, ubwitange n'ubwuzuzanye hamwe na turi kumwe ubwishingizi bw'ubuzima. Ibyishimo bisesuye ku buzima bwawe ahazaza hawe n'abawe. Iyi ngiyi akaba ariyo ntego nyamukuru ya radiant.

Aho ama serivisi ajyanye n'ubwishingizi yakomeje kugenda atera imbere, batangije uburyo bwo kwamamaza bakoresheje ibyapa biri mu kirere, aho kuri ibyo byapa bashyiraho amazina y'ubwishingizi ndetse n'ama serivisi batanga.

Mu Rwanda bumwe mu bwishingizi bukomeye buzwi ku izina rya Radianti, bwazanye uburyo bushyashya aho bushobora kwishingira umuntu ugiye kujya mu rugendo rwo mu mahanga ndetse buvuga yuko igihe yagira ibibazo bushobora kuba bwamufasha.

Banki izwi ku izina rya zigama CSS nayo ntiyatanzwe mu gukora uburyo bugezweho aho umuntu abasha gukoresha telefoni ye ngendanwa mu kureba amafaranga asigaranye kuri konti ye cyangwa mu kohereza no mu kubikura.

Uburyo bwo gukoresha serivisi za banki umuntu wakoresheje telefone ngendanwa aho akoresha aplication muri telefoni zikomeje kugenda zitera imbere aho banki izwi ku izina rya zigamacss yazanye uburyo bushobora kureba amafaranga yawe ari kuri konti cyangwa ukaba wayohereza ku ma konti atandukanye cyangwa ukaba wanabasha no kuyabikuririra ku yandi mabanki cyangwa mobile money mu buryo bworoshye.

Mu Rwanda uburyo bw'ivunja faranga n'ububitsi bwayo no kuyabikuza bikomeje kugenda byoroha aho banki yazanye uburyo bwiza bugezweho aho umuntu ashobora kubitsa akabikuza ndetse akohereza n'amafaranga akoresheje terefoni.

Uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga ndetse na murandasi mu kohereza amafaranga, mu bice bitandukanye hakomeje gufasha abantu benshi ,aho bakomeje kwishimira ko umuntu yohereza amafaranga akoresheje telefone ye ngendanwa, akaba yabasha kugera kuyoherereje mu gihe gitoya.

Bikomeje kugaragara yuko application nyinshi z'amatelefone zikenera ko umuntu ashyiramo inimero ya telefone ngendanwa kugira ngo abashe guhabwa serivisi zayo mu buryo bunoze kandi bwihuse ,urugero ni nkaho GTworld nayo ikenera inimero kugira ngo ubashe gufunguramo konti.

Mu Rwanda, serivisi z'amabanki zikomeje gutera imbere cyane. Aho amabanki menshi yakomeje gushyiraho uburyo umuntu ashobora kwishyura cyangwa akareba amafaranga asigaye kuri konti akoresheje telefoni ngendanwa ndetse anyuze kuri apulikasiyo. Ubu buryo rero bukaba bugamije gufasha abantu benshi kubona serivisi zihuse.

Gahunda yo gukoresha telefone ndetse na mudasobwa, mu buryo bwo kubasha kwakira ndetse no gukoresha banki byoroshye, ukomeje gutera imbere aho application igufasha kureba amafaranga usigaranye kuri konti yawe ya banki.

Banki izwi ku izina rya NCBA; akaba ari imwe mu mabanki atanga serivisi nziza kandi zinogeye abayagana, yazanye uburyo bw'ikoranabuhanga aho ushobora kureba amafaranga, ukohereza, ukabika ndetse ukanabitsa ukoresheje telefone ngendanwa ndetse na murandasi.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kohereza amafaranga umuntu akoresheje terefone ngendanwa busa nk'aho bukomeje kugenda butera imbere, aho abantu benshi bagenda bishimira yuko ushobora kohereza amafaranga mu gihe gitoya kandi ukabasha kuba wareba n'ayo usigaranye bitakugoye.

Amaduka acuruza ibijyanye n'imyenda cyane cyane amapantaro yo mu bwoko butandukanye akomeje kugenda yishimira uburyo babona abantu benshi baza bayagana bakabasha kubagurira ibicuruzwa byabo kandi bigatuma babasha no kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi kubera inyungu bayakuramo.

Mu Rwanda hari ubucuruzi buzwi ku izina rya butike, aho ushobora kujya ahantu mu nzu ugasanga harimo ibicuruzwa bitandukanye ibibiribwa, ibitaribwa ndetse ugasanga harimo n'amacupa y'inzoka.

Imyenda myiza yakozwe n'abanyabugeni aho bakora ibitenge bakabikatamo imyenda myiza cyane, ikaba ari imwe mu myenda ikunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho ikunze kwambarwa cyane n'abama ndetse n'abategarugori.

Mu Rwanda hakomeje kugenda hagaragara iterambere mu bikoresho by'ubugeni ndetse n'iby'umuco, aho ababikora bagenda bishimira uburyo babona abantu baza babibagurira kuko bibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi kandi bikibutsa n'ababiguze umuco nyarwanda ndetse n'ibihangano bikabafasha mu kuruhuka.

Bamwe mu bagana amaduka y'ubucuruzi, bakomeje kwishimira uburyo babakira ndetse no kuba babasha kubona ibyo bakeneye byose, harimo inkweto, ibyo kurya ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo nk'amakayi , amakaramu ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi bw'imyenda igezweho ikoreshwa izwi ku izina rya maneki mu kwerekana ubwiza bw'imyambaro barimo bacuruza, ikomeje kuza ku isonga. Mu nzu izi kumurika neza ibyo icuruza bikaba ndetse binabafasha kugura abakiriya benshi.

Zimwe muri butike zo mu mujyi wa kigali zijyanye n'igihe zikaba zicuruza imyenda yiganjemo amapantaro, amashati, amasengeri, amajipo kandi mu buryo bugezweho aho umuntu aza akareba icyo ashaka nyuma akacyishyura.

Amwe mu mazu y'ubucuruzi akomeje kujyana n'iterambere, aho yazanye uburyo bugezweho, aho umuntu ashobora kwishyura akoresheje ikarita ya banki igendanwa, ndetse ababukoresha bishimira uburyo bibafasha kwihutisha serivisi zo kwishyura.

Bamwe mu bakora ibijyanye n'imideli ikorwa ivuye mu bitenge. Bakomeje kwishimira ko ubucuruzi bwabo bukomeje kugenda butera imbere, ko bwije nuko bucyeye. Bitewe n'uko ababagana baza bazi agaciro k'ibintu babaha, kandi bakabishyura ku giciro cyiza.

Inzu icururizwamo ikaba icuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa na telefoni ndetse hakaba harimo ibintu by'imyambaro harimo inkweto nanone kandi harimo amavuta yo kwisiga ndetse n'imitako n'amasa byo mu nzu, bakaba bavuga y'uko bifasha ababagana kuba babona ibintu byinshi, mu gihe gito kandi biri hamwe.

Mu mujyi wa Kigali kuri miliyoni zawe icyenda ushobora kuba wabona imodoka wigurira yo mu bwoko bwa Hyundai Sonata Hybrid ndetse iyi modoka ikaba yarakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu kandi ikaba igifite ubuziranenge kuko iracyari nshyashya.

Mu mujyi wa Kigali hafunguwe inzu izajya icuza imodoka izwi nk'Akagera motozi, aho iteganya kuzafasha abaturarwanda benshi kubona imodoka nziza kandi ku mafaranga makeya.

Mu Gihugu cy'u Rwanda mu Mujyi wa Kigali, Akagera Motors kazanye imodoka nziza zijyanye n'igihe, ziri mu bwoko buzwi nka pikapu aho ari imodoka ifite imbere hajya abantu ndetse n'inyuma, kandi inyuma na ho ikaba ifite umwanya munini yatwaramo ibintu bindi, harimo nk'ibikoresho, ibiribwa ndetse n'abantu.

Mu Rwanda serivisi zo kugurisha amamodoka zikomeje kugenda zitera imbere, aho Yundayi nayo yageze mu Rwanda, akaba ari imodoka zishobora kuba wabasha kubona ku mafaranga atari menshi cyane kandi zikaba zigira uburambe kubera ko ziza zikiri nshyashya.

Akagera motozi gakomeje koroshya ubuzima bwa bamwe batumizaga imodoka hanze, aho kari kuzibagezaho mu buryo bworoshye ndetse bakaba bazanye n'imodoka nshya zo mu bwoko bwa fuso, zifasha abakora ishoramari cyane cyane rijyanye no gutwara ibintu.

Mu Rwanda muri serivisi zijyanye no gutwara ibintu n'abantu, hatangiye ikigo gishya cyitwa Akagera motozi, aho ari ikigo kije gukemura ikibazo abantu bari bafite cyo kuba babonaga imodoka zibahenze, kikaba kigiye kujya kigurisha imodoka ku bantu ku giciro cyiza kandi ku gihe.

Sosiyete icuruza imodoka mu mujyi wa Kigali izwi ku kazi ka Akagera montose nk' imwe mu masosiyete yakomeje kwitwara neza kuko abayigana bakomeje kuyishimira cyane ko ibaha imodoka zijyanye n'igihe kandi zikomeye ndetse ku giciro cyiza.

Mu Rwanda sosiyete icuruza imodoka izwi ku izina rya Kigali rale maketi yazanye imodoka nshyashya nziza kandi igezweho mu bwoko bwa yundayi, akaba ari imodoka iri ku giciro cyiza kandi ikiri nshya. Ushaka kuyigura ukaba wahamagara kuri nimero ya zeru karindwi umunani, gatandatu gatatu ebyiri, umunani kane icyenda kane.

Ikigo kigurisha imodoka mu gihugu cy'uRwanda kizwi nk'akagera motozi. Gikomeje kuzana ubwoko bushya bw'imodoka zigezweho zifasha mu gutwara, imizigo ndetse n'ibicuruzwa. Zizwi ku izina rya fuso ku mafaranga makeya, kandi abakigana bishimira serivisi kibaha.

Mu Rwanda hageze uburyo bworoshye, aho abantu benshi bishimira yuko babonye ahantu bashobora gukura ibikoresho nsimbura by'amamodoka yo mu mihanda mu buryo bworoshye kandi bidatinze.

Sosiyete icuruza imodoka izwi ku izina rya Kigali kare maketi yabazaniye imodoka zigezweho zo muri marike ya benzi, ikaba ari imodoka yo mu bwoko bwa G-karasi ndetse ubaye uyishaka ukaba wahamagara kuri nimero:zero karindwi, umunani gatadatu, gatatu eshatu, umunani kane, icyenda, kane.

M'u Rwanda hazwi mu mujyi wa Kigali kuri miliyoni makumyabiri n'eshatu ushobora kuba wabona imodoka nziza wagura hakaba hakunze kuboneka imodoka yo mu bwoko bwa mercedes benz, akaba ari imodoka ikoze ku buryo bugezweho ndetse ikaba inakunzwe na benshi kuko zikunda kugira uburambe bwinshi.

Mu rwanda mu mujyi wa Kigali kuri miliyoni makumyabiri n'eshanu, ushobora kuba wabona imodoka nshyashya yo kugura, izwi ku izina rya toyota hayilanda hayiburidi, ikaba ari imodoka yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri, ikaba yarakozwe n'uruganda rwamenyekanye cyane rwitwa Toyota.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali uburyo bwo gutwara amafaranga bukomeje kugenda butera imbere, aho bakoresha imodoka zabugenewe mu gutwara amafaranga zikaba zikunze kurindwa cyane na kampani icunga umutekano izwi ku izina rya ISCO, ikaba ari kampani ifite uburambe mu guherekeza amafaranga cyane ko bavuga ko abayikoramo bafite imyitozo ihambaye.

Amafaranga y'inoti y'ijana yahoze akoreshwa mu Rwanda mu myaka myinshi yashize, akaba atagikoreshwa kuri ubu ngubu kubera ko yasimbuwe n'ibiceri kubera babonaga ano y'inoti yangirika vuba kandi dukeneye amafaranga atinda.

Uburyo bugezweho bwa serivisi zo gufata amafaranga, azwi ku izina rya kashi akaba ari amafaranga y'inote cyangwa ay'ibiceri aba atari kuri telefone bukomeje kugenda bwiyongera mu buryo ibigo byinshi bikoresha byakiramo amafaranga.

Hakomeje kuvugwa iterambere mu buryo bwo kohererezanya amafaranga y'umuntu akoresheje serivisi nka western union, ashobora kohereza amafaranga akava hanze y'igihugu cye akaba yayohereza umuntu uri mu gihugu cyangwa akabasha kuba yayoherereza n'umuntu uri ku wundi mugabane.

Igiceri cy'ifaranga rimwe, cyahoze kizwi nk'urumiya, ni igiceri cyahoze gikoreshwa mu gihe cya kera mu Rwanda, aho iki giceri kiri mu mafaranga ya mbere yatangiye gukoreshwa mu Rwanda.

Bamwe mu batanga serivisi zijyanye n'amafaranga, bakomeje kwishimira kwakira amafaranga yo mu buryo bwa kashi kubera ko bibafasha kwihutisha gahunda zabo zo kubara amafaranga ndetse kandi n'abayazana na bo bakomeje kubyishimira kuko bitabatindira.

Bimwe mu bikomoka ku mata higanjemo amayawurute ndetse n'amaforomaje, bikomeje kugenda bikundwa n'abatari bakeya, aho abantu benshi bagenda bishimira uburyohe ntagereranywa bigiye bifite ndetse bakavuga ko babibona bitanabahenze.

Mu Rwanda abacuruza ibikomoka ku mata ndetse n'amata bakomeje kwishimira yuko mu babagana harimo n'abana bakiri batoya kubera ko ibi bintu batanga bibafasha gukura neza kandi bakagira ubuzima buzira umuze.

Bamwe mu batanga serivisi zijyanye n'ibikomoka ku mata, bakomeje kwishimira ko bahora babona abaza babagana kandi bishimira ibyo babaha cyane cyane ikizwi nk'inshyushyu akaba ari amata aba ataravura kandi akiri mashyashya.

Abantu benshi bafiti amakaragiro y'amata, bakomeje kugenda bishimira y'uko babonye ibyuma byiza cyane, aho ushobora gushyiramo amata yawe akabasha kuba yamaramo igihe kandi atarangirika.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere mu bikomoka ku mata birimo nka yawurute, aho bikomeje kugenda bitunganywa mu buryo bwiza kandi bukunzwe n'ababigura, ku buryo ababicuruza bishimira uburyo babona abantu benshi baza kubigura kandi bigatuma iterambere ryabo ryihuta.

Ubucuruzi bw'ibikomoka ku mata bukomeje kugenda butera imbere, aho ababukora bavuga yuko bakomeje kubona abantu benshi baza babagana kubera bakunda ibikomoka ku mata.

Abakorera ishoramari ry'amata bakomeje kwishimira ko babonye ibyuma bibabafasha kubika amata yabo neza, ndetse bakavuga y'uko byabongereye n'ababagana, ndetse abo babagana bakomeza babwira y'uko amata babaha aba yujuje ubuziranenge.

Amwe mu mazu acuruza ibikomoka ku mata, akomeje kugenda yiyongera ndetse n'abayagana bishimira uburyo bakirirwa ndetse no kuba babasha kubona amata ameze neza kandi bakabakira mu buryo bwihuse.

Mu buryo bwiza bugezweho muri iyi myaka bwo kubaka amazu meza harimo no gushyiramo ibikoresho bibafasha mu kugabanya ubushyuhe, aho abanyarwanda benshi n'abandi bantu benshi bakunda iby'imyubakire bakomeje kugenda bavuga y'uko bwabafashije, amazu y'abo atagishyuha cyane nka mbere.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere mu buryo bw'ikoranabuhanga aho apurikasiyo yitwa sipeyini yazanye uburyo umuntu ashobora kuba yabasha kwishyura amafaranga ndetse akanayakira mu buryo bworoshye akoresheje terefone ngendanwa.

Mu rwanda hakomeje kugaragara iterambere mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyura aho umuntu ashobora gukoresha telefone ngendanwa cyangwa mudasobwa mu kwishyura ndetse n'ikigo cyitwa peypaincyatanzwe mu gutanga izo serivisi zo kwishyura online aho umuntu ashobora kwifashisha application yabo yishyura.

Sipeni ku bufatanye na ayi endi emu banki bazanye uburyo umuntu ashobora kwishyura serivisi zitandukanye harimo nko kugura ifatabuguzi, cyangwa kwishyura ibintu wakoresheje nko kwishyura amazi ukoresheje telefone ngendanwa ugakoreshamo apulikasiyo yitwa sipeni.

Sosiyete yo mu gihugu cya Uganda izwi ku izina rya Emutiyene, yazanye uburyo umuntu ashobora kuba yabasha kwishyura ibintu bigiye bitandukanye akoresheje telefone ngendanwa, aho ashyiramo akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu urwego, akaba yakurikiza amabwiriza.

Apurikasiyo yo muri telefoni ngendanwa ifasha abantu kuba bakishyura ibicuruzwa cyangwa serivisi baba bahawe kandi mu buryo bwihuse bw'ikoranabuhanga.

Mu Rwanda, aho serivisi z'amabanki zikomeje kugenda zitera imbere uko bwije n'uko bukeye, banki izwi ku izina rya Ayi andi emu banki yazanye uburyo ushobora kuba wareba ko umaze kwishyura amafaranga ndetse ko yanakiriwe, aribwo buzwi nka gitanse yo kwishyuriraho.

Bamwe mu batanga serivisi zijyanye no kohereza amafaranga hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu avuye hanze zizwi ku izina rya Western Union, bakomeje kwishimira uburyo ino serivisi ibafasha mu kohereza ndetse no kwakira amafaranga mu buryo bwihuse.

Mu rwanda hakomeje kugaragara iterambere mu buryo bwa banki aho amabanki menshi yazanye uburyo ukoresha apulikasiyo yo kuri telefoni ukaba wabasha kohereza ndetse no kwakira amafaranga ukoresheje telefone yawe ngendanwa bitagusabye kujya ku gashami k'iyo banki.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere mu gukoresha uburyo bwo kohereza amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga, aho ikizwi nka "Money Gram" ifasha mu kohereza amafaranga hanze gikomeje gutera inkunga ubu buryo, aho gitanga serivisi zo kohereza ndetse no kwakira amafaranga.

Ikigo gikomeye mu Rwanda cy'itumanaho kizwi nka MTN, cyazanye uburyo bw'ikoranabuhanga aho gifasha abakoresha imirongo yacyo kubasha kwishyura ndetse no kwakira amafaranga mu buryo bworoshye, bakoresheje akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, urwego kuri terefone zabo ngendanwa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, cyakoze inyandiko aho umuntu abasha kubona ko amaze kwishyura amafaranga y'umusoro ndetse inyandiko ikaba ihabwa umuntu wese umaze kwishyura imisoro yose yagombaga gutanga.

Icyangombwa cy'ubucuruzi cyerekana uburyo umutungo w'amafaranga wagiye ukoreshwamo mu bihe bitandukanye gikomeje kuza ku isonga mu byangombwa biri gukenerwa cyane n'abakoresha serivisi zitandukanye harimo iz'amabanki ndetse n'izo kohereza amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Icyangombwa kijyanye no gucunga umutungo, gikomeje kuza ku isonga mu gufasha abaturarwanda ndetse n'abandi bantu bakoresha banki ya Kigali, kumenya uburyo bagiye bakoreshamo amafaranga yabo mu gihe gitandukanye, aho kino cyangombwa ushobora kwigira kuri banki ku cyicaro cyayo ku cyakayo, cyangwa ugakoresha telefone ngendanwa.

Uburyo bw'ivunjamafaranga bukomeje kugenda butera imbere, uko bwije n'uko bukeye, bitewe n'uko, abantu bamaze gusobanukirwa uburyo umuntu yavunjisha, amafaranga y'amanyamahanga mu buryo bworoshye.

Mu Rwanda gahunda yo kuvunja amafaranga yakomeje gutera imbere, aho abayigana bishimira kuba babasha kubavunjira ku giciro cyiza ndetse n'abayitanga bakishimira ko ababagana babashije kwiyongera.

Akamashini gafasha mu kubara amafaranga, ndetse no kumenya amafaranga ya nyayo, bikomeje kugenda bigaragara ko kagiye gafasha abantu, bakoresha amafaranga menshi, koroshya uburyo bayabaramo, ndetse byabagabanyirije n'abakozi bakoreshaga, kubera ko gakora akazi kenshi kandi mu gihe gito.

Amafaranga y'abanyamahanga akomeje kugenda agaragaza iterambere mu ivunjisha ry'amafaranga, aho urugero nkamayero icumi cyangwa mirongo itanu, ushobora kuba wabasha kubona ahantu wayajyana bakabasha ku kuguhamo andi mafaranga yo mu bundi bwoko ushaka.

Serivisi vunja faranga zikomeje kuba nziza cyane aho byagaragaye yuko abantu benshi batangiye kujya bazitabira bitewe n'uko abantu batandukanye basigaye bakunda kujya mu bihugu byinshi mu bihe bitandukanye aho usanga ukeneye gukoresha amafaranga yo muri icyo gihugu.

Serivisi vunjafaranga mu Rwanda, ikomeje gutera imbere cyane, bitewe n'uko mu Rwanda ni hamwe mu bihugu bikunze kugaragaramo abanyamahanga benshi cyane, bakenera ino serivisi, kugira ngo babashe kuba babona uko bishyura ibintu, ndetse na serivisi bahabwa, ahantu hatandukanye.

Amafaranga akunda gukoreshwa mu gihugu cy'i burayi, azwi ku izina ry'amayero, akaba ari amwe mu mafaranga y'abanyamahanga akunze kugaragara cyane, aho ahera ku inoti y'amafaranga atanu akarangirira ku note y'amafaranga magana abiri.

Abagana serivisi zijyanye n'ivunjamafaranga, bakomeje kwishimira yuko ibigo bagana byabashyiriyeho uburyo bworoshye bamenya aho igiciro bari kuvunjiraho, aho hari ibyapa bashyira ahantu hatandukanye nko hanze cyangwa bakabimanika mu mazu bakoreramo, aho ubasha kubona amafaranga bari kuvunjiraho bitakugoye kandi mu buryo bworoshye.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inote yo muri Tanzania, akaba ari amafaranga akunzwe kwitwa amashilingi ndetse aya mafaranga akaba afite agaciro k'ibihumbi bitanu.

Amafaranga akunze kuva muri Leta zunze ubumwe z'Amerika azwi ku izina ry'amadolari, ni amafaranga akunze kugaragara mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse abayakoresha bakunda kwishimira ko akora neza, kubera yuko utapfa kubura ahantu uyavunja mu buryo bworoshye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho bufasha abantu kuba bamenya uburyo amafaranga ari kuvunjwamo ndetse bukaba ari uburyo bwiza cyane kuko umuntu abasha kubona amakuru menshi kandi mu gihe cyihuse.

Serivise z'ivunjafaranga ni zimwe muri serivisi zikomeje kugenda zitabirwa n'abantu batari bake, aho gushyiraho ibiciro by'uburyo bwo kuvunja amafaranga bikomeje kugenda biba byiza, aho nk'urugero ushobora kumenya uko idolari rihagaze mu mapawundi.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere muri serivisi zo ku kuvunja amafaranga, aho hakomeje kugenda hafungurwa udushami dutandukanye dufasha mu kuvunja amafaranga kandi abazigana bakomeje kwishimira uburyo bakirwa ndetse no kuba batabatinza bakabaha serivisi inoze.

Hakomeje kugenda hagaragara kwiyongera kw'ibiro bitanga serivisi z'ivunja ry'amafaranga, aho hagiye hari ibiro birimo imashini za mudasobwa ndetse abahakorera bakaba biteguye kwakira ababagana, igihe cyose bahagerera kandi bakabaha serivisi nziza.

Hakomeje kugaragara ubwiyongere mu mazu ndetse n'abatanga serivisi zijyanye no kuvunja amafaranga aho umuntu ashobora kuba yabasha kubona aho yajya ku kuvunjisha amafaranga mu buryo bworoshye bitamusabye kugenda urugendo rurerure cyane.

Mu Rwanda serivisi mvunja faranga zikomeje gutera imbere, aho nkizwi ku izina rya Zini forex biro de shanje yaje mu zindi. Aho nayo ifasha mu gutanga serivisi zo kuba wakura amafaranga mu bwoko butandukanye ukayashyira mu bundi bw'ubunyamahanga.

Aho isoko vunja faranga rikomeje kugenda ritera imbere, abantu benshi bakomeje gushinga udushami tuvunja amafaranga aho ababagana bagumya kwishimira uburyo bakirwa, kandi no kuba barabashije kwegerezwa serivisi zo kuvunja amafaranga.

Bimwe mu bikoresho bibazwa mu biti, hakomeje kwiganzamo cyane intebe nziza ndetse n'ameza, bikaba kandi bikurura ababigura benshi kubera bishimira uburyo biba bigaragara neza ndetse n'inzu ubishyizemo bigatuma iba nziza kurushaho.

M'u Rwanda hakomeje kugaragara ibikoresho byiza cyane cyane byiganjemo ibikoresho byo mu nzu bikaba birimo: ama matira yo kuryamaho, intebe zo kwicaramo, ameza agezweho ndetse n'utubati ndetse bikaba ari ibikoresho bigurishirizwa ahantu henshi hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda.

Bimwe mu bintu biri kuranga amahoteli agezweho ni ukuba bafite ahantu heza ho kogera hazwi ku izina rya pisine, aho abayagana bishimira ko abafasha kuruhuka kandi bikabafasha no kwishimira ibyiza nyaburanga babonye ku i hoteli.

Kuri iyi si hari ibintu bitangaje. Harimo amwe mu mahoteri yubatse mu buryo budasanzwe. Aho hari hoteri yubatswe mu buryo bujya kumera nk'ubwato, aho igiye ifite inzu zigerekeranye ariko n'ubundi warebera kure ukabona bimeze nk'ubwato.

Inzu igiye kuberamo inama yateguwe neza, aho buri ntebe yo kwicaraho ifite amazi yo kunywa, ndetse hariho n'agakayi ko kwandikiraho, ndetse bikaba biri mu buryo bwa kijyambere, aho abantu bicara barebana.

Mu mujyi wa Kigali ahegereye kaburimbo, hakaba hari inyubako zikikijwe n'ibiti ndetse akaba ari inzu y'umuturirwa ifite ahantu imbere hagarara imodoka ndetse hakaba, hagaragara urujya n'uruza ruhagenda, mu masaha ya nimugoroba.

Amwe mu mahoteli yo mu mujyi wa kigali akaba afite ahantu heza ho kogera ndetse hakikijwe n'udutebe two kuryamamo kandi dutwikiriye akaba ari amwe mu mahoteli meza cyane kuko afite uburyo akozwemo bujyanye n'igihe.

Amwe mu mahoteli yubatswe mu buryo bugezweho bukurura ba mukerarugendo batari bake, akaba ari amahoteli afite ubusitani bwiza imbere yayo kandi hakaba afite ahantu hagiye hubatswe n'ibiti, kuko abakerarugendo bahagera barahishimira cyane bakavuga yuko haba hari umwuka mwiza kandi hanasa neza.

Umukozi wabigize umwuga uteka, aho arimo ategura amafunguro atandukanye ajyanye n'imboga kugira ngo aze kuyageza ku babagana kandi ari amafunguro aryoshye ndetse mu gihe gitoya.

Hakomeje kugaragara iterambere ryihuse mu mahoteli, aho amahoteli afite ahantu heza ho kwakira abayagana, hakaba hari utumeza ndetse n'udutebe twiza tujyanye n'igihe kandi hakaba hegereye amazi yakozwe azwi ku izina rya pisine.

Amwe mu mahoteri akomeje kugenda yubaka ahantu hajyanye n'igihe hagezweho ho kwakirira abantu, aho bakira abantu hanze kandi akaba ari ahantu haba ari heza, hari ibimera byoherezayo umwuka mwiza kandi bareba n'ibyiza bitatse aho hantu.

Amwe mu mahoteri akomeje kugenda yubakwa mu buryo budasanzwe aho agiye afite intebe nziza cyane zidasanzwe, kandi akaba afitemo ibiti mo imbere aho abayasura bishimira uburyo asa neza cyane kandi bagakunda ko babaha serivisi nziza.

Ama hoteri akomeje kuza ku isonga, mu hantu heza umuntu yasohokera, kubera bafite ahantu heza ho kwakirira ababagana, aho ubona intebe nziza zo kwicaraho, ndetse ugasanga n'ibyo kunywa biteretse yo mu buryo bwa kijyambere, bugezweho, kandi bukurura abantu benshi.

Mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Kiyovu, hari inzu nziza igeretse ikaba ifite amagorofa ane ikaba izwi ku izina rya Senti Famiye hoteli akaba ari inzu yakira abantu bacumbika ndetse n'abakeneye kuhasohokera.

Mu mujyi wa Kigali hakomeje kubakwa amahoteri meza ajyanye n'igihe, ari amahoteli yubatse mu buryo butangaje ndetse ni amahoteri abayagana bakunda kuvuga ko ni amahoteri meza cyane barayakunda kuko yita ku bidukikije ndetse bakunda n'umwuka mwiza uba uhari.

Mu amahoteli hakomeje kugaragara ibitanda byiza cyane, hakaba ari ibitanda biri ku rwego hashobora kuba haryamaho abantu babiri, kikaba ari igitanda kiba gifite imisego imeze neza cyane, ndetse gifite n'umwambaro w'isuku umuntu yakoresha agiye koga, ndetse kikaba gifite mo imbere hasa neza cyane.

Icyicaro gikuru cy'ikigo cy'ubwishingizi kizwi ku izina rya Sonarwa kikaba giherereye mu mujyi wa Kigali ndetse kikaba gitanga serivisi nyinshi zigiye zitandukanye, harimo kuba gikurikirana andi mashami yacyo yose ndetse no kuba cyakira abaje bakigana kikanabasobanurira.

Ibiro bikoreramo ibintu bitandukanye, bikaba ibiro byiza biba bigizwe n'intebe, imeza ndetse n'ahantu ho kwandikira kandi mu biro bijyanye n'ikoranabuhanga, bikaba bigiye biherereye ahantu habonerana, aho umuntu uri inyuma ashobora kubona ko imbere bakira undi muntu akaba aretse kwinjira.

Ibiro bikuru by'ubwishingizi bwa Phoenix, bikaba biherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ari bumwe mu bwishingizi bukunzwe cyane kuko bufasha ababugana kubona serivisi nziza kandi zihuse kandi ku gihe.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere ryihuse mu bwishingizi aho bukomeje kugenda bufungura udushami dutandukanye ndetse bagashyiramo n'ibiro bigezweho aho habamo imeza udutebe two kwicaraho imashini ndetse n'ibindi bifasha ababagana kunezerwa n'ukuntu hasa.

Ikiigo gitanga ubwishingizi bw'ibintu n'abantu kizwi nka Radianti abanyarwanda benshi bakomeje kwishimira serivisi gitanga aho bavuga yuko gikomeje kugenda kibagoboka cyane cyane mu bihe by'amage aho kibafasha kwishyura ibikoresho byabo byangiritse ndetse no kubona ibindi bishya.

Ubwishingizi bw'ibintu n'abantu buzwi ku izina rya sandiramu bufite ibiro byiza bukoreramo aho babasha kwakira ababagana kuri ibyo biro byabo.

Serivisi z'ubwishingizi zikomeje kugenda zitera imbere uko bwije n'uko bukeye ndetse zikaba zisigaye zitegura inama zo kwicara bagasobanurira abaza babagana gahunda yabazanye ndetse n'icyo bazabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Uburyo bujyanye no gukoresha ubwishingizi bukomeje kugenda butera imbere uko bwije n'uko bukeye, aho ubwishingizi burimo ubwa banki ya Kigali bukomeje kuza ku isonga buri gutanga serivisi nziza zinogeye ababugana.

ikigo gikomeye gitanga ibijyanye n'ubwishingizi kizwi ku izina rya SONARWA, kikaba gifite agashami mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kimironko, ndetse hakaba ari agashami gatangizwamo serivisi zitandukanye zacyo.

Mu Rwanda imwe mu masosiyete y'ubwishingizi azwi ku izina rya Radiant, ni imwe mu ziri gutanga serivisi nziza cyane kubaza bayigana, aho yabegereje agashami ibafashirizaho kandi ikabasha no kubasobanurira imikorere yayo ndetse n'amaserivisi yose itanga.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iyubakwa ry'ibiro bijyanye n'igihe aho buri biro bigiye birimo ameza arenze imwe ndetse n'intebe zo kwicaraho kandi bikaba biherereye ahantu hafite umuriro w'amashanyarazi, ibirahure ndetse hakaba hari na mudasobwa zifasha ababikoreramo kwandika amakuru mu buryo bwihuse.

Icyicaro gikuru cy'ubwishingizi bwa banki ya Kigali, giherereye mu Mujyi wa Kigali, akaba ari kimwe mu byicaro byubatse neza ndetse kikaba kinatanga serivisi nyinshi z'ingenzi, zijyanye n'ubu bwishingizi ndetse n'ubusobanuro.

Bumwe mu bwishingizi bukomeye mu gihugu cy'u Rwanda buzwi ku izina rya Prime Insurance, bwazanye gahunda yo kwegereza ababugana agashami aho buzajya bubasha kubaha serivise zitandukanye butanga ndetse bukanabasobanurira imikorere yabwo.

Ubwishingizi bw'abantu n'ibintu bwa sorasi, bukomeje kuza ku isonga mu bwishingizi bufite ahantu heza ho kwakirira ababugana, aho bafite umuntu ufasha kuyobora uhageze aho agiye kujya.

Mu Rwanda mu karere ka Gasabo hazwi ku izina rya Kimironko, hari ikigo cyitwa Kopedo, akaba ari ikigo gifite agashami aha ngaha, kikaba gitanga serivisi zijyanye n'inguzanyo, aho kiguza abaje bakigana kandi kikabaha amafaranga kitabatindije.

Mu rwanda aho serivisi za banki zikomeje kugenda zitera imbere mu buryo bwihuse, ayi ende emu banke, yazanye gahunda yitwa iyubake aho ishobora kuguriza amafaranga agera ku angana na mirongo irindwi kuijana by'agaciro k'inzu yawe, ndetse abayigana bagumya kwishimira ubu buryo uko wafasha mu iterambere.

M'u Rwanda ikigo kizwi nka bowa Rwanda, cyazanye uburyo aho kibasha kuguriza abakigana amafaranga abafasha mu kwiga gutwara ibinyabiziga ndetse bakabafasha no gukorera uruhushya rwa burundu rw'ibinyabiziga.

Mu Rwanda aho serivisi z'amabanki zikomeje kugenda zitera imbere mu buryo bwihuse, banki izwi ku izina rya banki populaire yazanye gahunda aho umuntu ashobora kubona inguzanyo mu buryo bwihuse akoresheje telefoni ngendanwa cyangwa mudasobwa , aho aca kuri application nyuma akaka inguzanyo kuri murandasi.

Ikigo gitanga serivisi z'amabanki mu gihugu cy' u Rwanda kizwi nka Banki of Africa, cyazanye uburyo gisobanuriramo abakigana bakamenya intego bashaka kugeraho, kugira ngo kibafashe mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Sosiyete ikora ibijyanye na banki izwi cyane mu Gihugu cy'u Rwanda yitwa BPR, irimo isobanurira abayigana impamvu bahitamo gufata inguzanyo yayo, ndetse iravuga yuko itanga inguzanyo umuntu ashobora kuba yakishyura mu myaka igera kuri itanu kandi ikaba iyiha abantu bahembwa ndetse n'abikorera, kandi nanone igira amafaranga agera kuri miliyoni mirongo itatu z'Amanyarwanda itanga.

Mu Rwanda uburyo bwo kuguriza amafaranga bukomeje gutera imbere, aho banki izwi ku izina rya I&M banki yazanye uburyo bwitwa karame, aho ushobora kuguza amafaranga agera kuri miliyoni mirongo itanu bidasabye ingwate.

Ikigo gikomeye cy'itumanaho mu rwanda kizwi ku izina rya MTN, ku bufatanye na banki izwi ku izina NCBA, ryazanye uburyo bwitwa "Tubirimo na MoKash", aho bari guhemba umuntu ndetse bakaba babasha no ku muguriza amafaranga agera kuri miliyoni eshanu.

Mu Rwanda serivisi z'amabanki zikomeje kugenda zitera imbere byihuse banki yitwa Bank of Africa, yazananiye gahunda aho ishobora kuguza abayigana amafaranga agera kuri miliyoni mirongo itanu z'amanyarwanda bidasabye ingwate.

Banki y'abaturage y'u Rwanda ikomeje kuza ku isonga mu mabanki ari gutanga serivisi nziza ku bayigana, aho umuntu uyigana abasha kubona inguzanyo yo guteza imbere imishinga ye mu buryo bworoshye kandi byihuse.

Abaturage bahuriye hamwe bafashwa n'umuryango uzwi ku izina rya USAID wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, bahuriye hamwe barimo bafata ibikoresho uyu muryango wari wabateganyirije kubaha.

Ibigo by'amabanki cyane cyane ikigo kitwa I&M Banki mu Rwanda byateguye imikino y'amaboko ,aho abantu bazahurira Nyamata bagakina ndetse umuntu uzabasha gutsinda akaba azahembwa mu buryo bushimishije.

Serivisi z'amabanki zikomeje kugenda zitera imbere, aho abatanga gahunda zo kuguza ndetse no kubitsa bazwi ku izina rya Lolc Unguka finance nabo bafunguye gahunda yo gutanga inguzanyo ku babagana aho baguza abantu mu buryo bwihuse.

Abacuruzi bakomeje kwishima ko babahaye isoko ryiza rya kijyambere ry'imboga n'imbuto, aho babasha gucuruza ibicuruzwa byabo badakoresheje agataro ndetse bavuga yuko rikomeje kubafasha mu gutera imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Isoko riri mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ka Nyarugenge, ahantu hitwa mu mujyi. Rikaba ari isoko ryubatse mu buryo bugezweho, aho ari inzu igeretse inshuro eshatu. Ndetse rikaba rinafite abantu benshi barikoreramo rikaba rikanatanga ibicuruzwa bitandukanye.

Mu Rwanda uruganda rujyanye no gukora ibijyanye n'ubugeni rukomeje gutera imbere, aho abantu benshi bakomeje kuvuga ko bari gukura amafaranga menshi mu gukora ibihangano byabo by'ubugeni harimo imigongo n'amafoto bafite imitako myiza cyane.

Isoko ry'imbuto n'imboga rya Nyabugogo, ni rimwe mu masoko agezweho ajyanye n'igihe, abayakoreramo bishimira ko babakuye ku mihanda bakaba barabonye ahantu ho gucururiza heza kandi hadateza ikibazo na kimwe ku buzima bwabo ndetse n'ubw'abaguzi.

Isoko ryo mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, rikaba rizwi ku izina ry'isoko rya Kimironko, rikaba ari amwe akunzezwe kugerwamo n'abantu batandukanye, aho bishimira kuba basangamo ibintu byinshi bakeneye, harimo imyenda, ab'abadodera inkweto, ababadodera imyenda ndetse n'imbuto.

Amasoko yo mu mujyi wa Kigali acuruza ibijyanye n'ubugeni, harimo ibisabo, ingoma, inkoko ibiseke ndetse n'ibindi, akaba ari amwe akunze kuganwa n'abantu batandukanye bagikunda ibintu bijyanye n'umuco, aho bishimira ko bibafasha kwibuka ibihe byabo bya kera ndetse no gushyigikira umuco udacika.

Abacuruzi bacuruza inkweto ndetse n'imyenda mu masoko aciriritse bakomeje kugenda basaba yuko bakubakirwa amasoko ya kijyambere agezweho bakaba nabo babasha gucuruza mu buryo bugezweho.

Ubucuruzi bw'ibikomoka ku matungo, cyane cyane amagi, bukomeje kugaragara mu bucuruzi buri kwinjiriza amafaranga menshi ababukora, ndetse bakagumya bishimira y'uko ababagana baza bababwira ko amagi babaha bayakunda cyane, kandi abaryohera.

Bamwe mu bacuruzi b'imboga ndetse n'imbuto, bacuruza mu buryo buciriritse, bakomeje kwishimira ko babonye ahantu ho gucururiza, aho babasha kubona inyungu bitewe n'uko babona abakiriya benshi baza babagana kandi bakabasha kubagurira ku giciro cyiza.

Mu Rwanda mu Mujyi wa Kigali hakomeje kugaragara iterambere mu bucuruzi, aho imodoka zo mu bwoko butandukanye ziba zazaniye abacuruzi ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ndetse kandi n'abacuruzi bakomeje kubona ahantu heza ha kijyambere hagezweho gukorera.

Bimwe mu bikoresho by'ubugeni ndetse n'ibindi bigaragaza umuco nyarwanda, bikaba ari ibikoresho byiganjemo: uduseke, inkoko, ibisabo, imiringa ndetse n'urunigi, bikaba ari muri bimwe bikunze kugurwa n'ingeri z'abanyarwanda batandukanye ndetse n'abanyamahanga, bikaba bibibutsa umuco nyarwanda.

Bamwe mu bacuruzi bacuruza imboga n'imbuto higanjemo cyane inyanya imineke ibitoki ibihaza imyembe bakomeje kuvuga yuko bishimiye ubucuruzi bakora kubera babona ababagana batari bake kandi bakabagurira ku giciro cyiza.

Abantu bacururiza mu masoko aciriritse bakomeje kwishimira ko ibicuruzwa byabo birimo amashu, inyanya ndetse n'imiteja bikomeje kubona abantu baza babigura kandi ku giciro cyiza, bakavuga yuko hababereye heza kurusha uko mbere bagicuruza mu gataro bacuruzaga kandi bibagora.

Mu Rwanda aho amasoko y'ubucuruzi bw'imboga n'imbuto akomeje kugenda yiyubaka, abayakoreramo bakomeje kugenda bishimira ko aya masoko yabafashije mu kwiteza imbere, kubera ko bibafasha kugeza ibicuruzwa byabo kubabagana mu buryo bworoshye.

Mu Rwanda mu masoko ateye imbere hakomeje kugaragara urujya n'uruza rw'abahagana aho bavuga yuko byaba byiza bongeye ubunini bw'aya masoko ku buryo bazajya bagura ibintu mu buryo bwihuse bitabaye ngombwa yuko batonda imirongo.

Amwe mu masoko acuruza ibintu bitandukanye, harimo nk'indagara, imyenda yo kwambara ndetse n'ibikoresho byo mu rugo, akomeje kugira abayagana benshi bishimira uburyo babakira kandi no kuba babona ibintu mu buryo bwihuse.

Mu Rwanda iterambere ry'ubucuruzi rikomeje kwihuta ku kigero cyo hejuru cyane bitewe n'uko hakomeje kugaragara iyubakwa ry'amasoko ya kijyambere ndetse ajyanye n'igihe, aho abayakoreramo bishimira ko ari amasoko meza ndetse abafasha gutuma ubucuruzi bwabo bugenda neza cyane.

M'u Rwanda abantu bacururiza mu masoko aciriritse bakomeje kwishimira ko babonye ahantu heza ho gucururiza bikaba bibafasha mu iterambere kuko bavuga y'uko ari heza kurusha uko bacuruzaga mbere bagicuruza ku gataro.

Amwe mu masoko y'imboga n'imbuto abayagana bakomeje kugenda bishimira uburyo bakIrwa neza ndetse icyo akarusho bavuga ni uko nta kintu baza bashaka bakihabure kandi ikindi cya nyuma ni uko babona ibintu ku giciro kidahenze cyane.

Ku masoko rusange yo mu Rwanda bikomeje kugenda bigaragara yuko ubucuruzi bw'imboga n'imbuto buri mu bucuruzi bukomeje kugenda bufasha abacuruzi benshi gutangira ubucuruzi mu buryo bworoshye kandi bagakomeza gutera imbere byihuse.

Amwe mu masoko agezweho mu gihugu cy'u Rwanda acuruza ibintu bijyanye n'imyenda yiganjemo amakabutura, amapantaro, imipira ndetse n'ibindi byo kwambara by'imbere, akaba ari amwe mwakunze kubona abaza bayagana benshi kuko bishimira ko babaha imyenda idahenze.

Bamwe mu bacuruza imboga n'imbuto bakomeje kwishimira yuko babonye ahantu ho gucururiza hemewe ndetse bishimira ko ababagana biyongereye.

Sosiyete y'itumanaho ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda izwi ku izina rya MTN, yazanye uburyo umuntu washobora kwishyura akoreshe iyi telefone ngendanwa, aho babwise Pay with MMO, akaba abantu benshi bishimira kubukoresha bagura ibintu bitandukanye, harimo kugura inkoko za ketaki kuri capc ndetse bakaba banishimira uburyo byihuta.

Ikigo cy'igihugu gikomeye mu itumanaho kizwi ku izina rya MTN, cyazanye uburyo bwo kwishyura amafaranga ukoresheje terefone ngendanwa buzwi ku izina rya momo peyi, aho ushyiramo nimero ya momo peyi y'umucuruzi ukabasha kumwishyura byihuse.

Inzu ziberamo ubucuruzi buciriritse zizwi ku izina rya kiosike za airtel ni zimwe mu zikomeje gutanga serivisi nziza ku bazigana aho umuntu ashobora kuba yabasha kwigurira ama inite ndetse akaba yabasha no kubikura akoresheje ikizwi nka airtel money.

Ikigo cy'igihugu cy'itumanaho gikomeye mu rwanda kizwi ku izina rya Emutiyeni cyazanye uburyo bugezweho aho umuntu ashobora kuba yabasha kwishyura amafaranga akoresheje telefone ngendanwa akaba ari uburyo buzwi kuri mobile money aho umuntu akoresha akanyenyeri ijana na mirongo inane na kabiri urwego agakurikiza amabwiriza.

Ikigo cy'ikoranabuhanga n'itumanaho gikomeye cyane mu Rwanda kizwi nka MTN, cyazanye uburyo bwiza bwo kwishyura buzwi nka momo peyi, aho buri mucuruzi bamuha kode ye yo kumwishyuriraho, nyuma umuguzi yamara kugura agashyira iyo kode muri terefone ye, akabasha kwishyura bitamugoye kandi byihuse.

Mu Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali, hakomeje kugaragara iterambere mu buryo bwo guhaha ibintu umuntu akoresheje murandasi, aho hari uburyo ushobora gutumiza amafunguro yawe, akakugeraho utavuye mu rugo. Ubu buryo rero abanyarwanda bakomeje kwishimira yuko bukomeje kubafasha mu kubona ibyo bakeneye bidatinze.

Agashami k'ikigo cy'itumanaho kizwi ku izina rya Eyateri ni kamwe mu dushami twiza turi mu mujyi wa Kigali, aho abakagana bavuga ko bishimira uburyo babakira ndetse n'uko batahatinda.

Mu rwanda ikigo cy'itumanaho gikomeye kizwi nka MTN gikomeje kugenda cyegereza serivisi zacyo ku bakigana, aho kigenda gifungura amashami atandukanye, mu bice byegereye abo cyohereza serivisi zacyo kugira ngo babashe kukigeraho byoroshye.

Ikigo cy'itumanaho cya MTN cyazanye gahunda yo kwishyura amafaranga ukoresheje telefone ngendanwa izwi ku izina rya momo peyi, aho ushyiramo inimero y'umucuruzi ndetse ukabasha no kwishyura amafaranga ukoresheje telefone ngendanwa.

Ikigo gikomeye cy'itumanaho mu Rwanda kizwi nka MTN gikomeje kuzana buryo bworohereza abagikoresha kwishyura a mafaranga bakoresheje telefone ngendanwa. Akaba ari uburyo bise izina rya momo aho umuntu ashobora gufata amafaranga akayohereza ku wundi muntu bategeranye akamugeraho kandi byihuse.

Ikigo cy'itumanaho gikomeye mu gihugu cy'u Rwanda cyazanye serivisi, aho umuntu ashobora kubitsa cyangwa akabikura amafaranga akoresheje terefoni ye ngendanwa, aho akoresha apurikasiyo kugira ngo abashe kuba yakoresha ubwo buryo kandi ababikoresha bakomeje kubyishimira kuko byihutisha serivisi bahabwa.

Gahunda yo guteza imbere itumanaho mu buryo bwihuse rikomeje gukataza aho umuyoboro wa MTN uzanye gahunda mu Rwanda aho umuntu ashobora kwishyura amafaranga akoresheje telefoni aho yaba ari hose, uburyo rero abanyarwanda bukaba bwabafashije mu kwishyura byihuse.

Ikigo cy'itumanaho gikomeye mu rwanda kizwi ku izina rya emutiyene cyazanye gahunda yo gutombora ibera muri kiyosiki ya emutiyene ikaba iba irimo umukozi wa emutiyene, ndetse umuntu utombola niho aza nyuma y'uko atomboye bagahita bamuha ibihembo atsindiye.

Urubuga ruzwi nka Vuba Vuba rukorera mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, rwazanye gahunda yihuse, aho ushobora kugura ibikoresho bitandukanye cyangwa ukaba watumiza ibiryo ukoresheje terefone ngendanwa cyangwa mudasobwa, bikaba byabasha kugusanga aho uri kandi mu buryo bwihuse.

Muri resitora nshyashya igezweho mu mugi wa Kigali yitwa jamani bakari, ikomeje kuza ku isonga mu maresitora ari gutanga serivisi z'ikoranabuhanga, aho ushobora guhitamo ibintu urarya ukoresheje telefone ngendanwa, ukaza usanga bamaze kubitegura cyangwa bakaba babikoherereza aho uri.

Uburyo bw'ubucuruzi bukorera kuri murandasi bukomeje kugenda butera imbere aho ubuzwi ku izina rya i mari buri mu bucuruzi bukomeje kuza ku isonga mu buri gutanga serivisi nziza ku babugana ndetse bukaba bwaratanze n'gabanyirizwa ku bicuruzwa byabo ndetse ababukoresha bakaba barabyishimiye cyane.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali hakomeje kugenda hagaragara iterambere muri serivisi zo kugurishiriza ndetse no gucuruza ibintu bakoresheje murandasi, aho umuntu agura ikintu yibereye iwe mu rugo akoresheje telefone ngendanwa ndetse abantu bakiguze nabo babasha kukimugezaho bakoresheje gahunda yiswe kumenya aho umuntu ukiguze ari bakakimugereza iwe mu rugo.

Guha aha dukoresheje ikoranabuhanga bikomeje gutera imbere mu Rwanda aho ihaha ryatuzaniye uburyo umuntu ashobora guhaha akoresheje apurikasiyo yo muri telefone aho ujya kuri apurikasiyo ukabasha gutumiza ikintu ushaka ndetse nyuma y'ibyo ihaha ryakoze ahantu ushobora kujya gufata ibyo bintu watumije ari nk'aho twagereranya n'ibiro byayo.

Urubuga rufasha abantu kugurira kuri murandasi ruzwi nka higo moto. Ni urubuga rukomeje kugenda rutera imbere uko bwije n'uko bukeye cyane ko rusigaye rwambika abamotari batwara amapikipiki aho bavuga yuko bagenda barwamamaza rukabasha kumenyekana byihuse.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho aho umuntu ashobora kugura ibintu bitandukanye harimo imyenda, inkweto, imiti ndetse n'amavuta yo kwisiga akoresheje murandasi akaba ari bumwe mu buryo bukomeje gufasha abatari bake kugura ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresheje telefone ngendanwa ndetse na mudasobwa mu buryo bwihuse.

Rashi fudu ni rumwe mu rubuga rukorera kuri murandasi aho umuntu ashobora gukoresha telefone ngendanwa cyangwa mudasobwa akabasha kugura amafunguro, ndetse bakaba bafite n'uburyo bayakugezaho aho uri bakoresheje ku mapikipiki.

Aho serivisi y'ikoranabuhanga ikomeje kugenda itera imbere, ndetse n'ubucuruzi bwo kuri murandasi nabwo bugatera imbere, haje gahunda yitwa twiga, akaba ari urubuga umuntu ashobora kujyaho, akagura ibintu, ndetse bakabimutwarira, bakamugereza iwe mu rugo, ku giciro nk'icy'umuneke.

Vendo yatuzaniye buryo bwiza, aho uwo muntu ashobora kugurira ibintu bitandukanye kuri murandasi, akoresheje telefoni ngendanwa cyangwa akoresheje mudasobwa ndetse iyi serivisi batuzaniye igaragaza yuko abantu benshi bari kugenda babyitabira kandi bakavuga ko ibafasha kugura ibintu mu gihe cyihuse.

Mu Rwanda ahazwi nko mu mujyi wa kigali kuri miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda umuntu ashobora kuba yabasha kwigurira inzu nziza igezweho muri uyu mujyi, akaba ari inzu ikozwe mu buryo bugezweho aho ifite inzu imwe mu gipangu ndetse ikaba iri n'ahantu hegereye umuhanda.

Mu rwanda mu mujyi wa kigali kuri miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda ushobora kuba wabasha kubona inzu nziza wagura akaba ari inzu ikozwe mu buryo bugezweho kandi ikaba ifite ikigega kibika amazi hejuru ndetse n'ubusitani buyikikije.

Mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kanombe mu Karere ka Gasabo, hari inzu ishobora kugura kuri miliyoni ijana na cumi n'eshanu z'amanyarwanda, akaba ari inzu ifite ahantu imodoka enye waziparika ndetse ikaba ari inzu yubatswe mu buryo bugezweho.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Musave i Bumbogo, umuntu ashobora kuba yabasha kubona ikibanza cyiza yagura ahereye kuri miliyoni cumi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda ndetse akaba ari ikibanza cyiza cyane.

Mu Rwanda mu karere ka Gasabo ahazwi nka Remera, ku bihumbi magana atandatu by'amanyarwanda ku kwezi, ushobora kuba wabasha kubona inzu nziza cyane, ikaba ari inzu igizwe n'ibyumba bibiri byo kuryamamo ndetse ikaba ifite n'ubwogero mu nzu kandi ukaba ibindi byo ubyizanira birimo ibiryamirwa ndetse n'intebe.

Mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kabeza abantu benshi bakomeje kwishimira ko kumafaranga yawe makeya urugero nk'amadorari magana atanu na mirongo itanu ushobora kubasha kuba wahabona inzu nziza cyane ifite igikoni cya kijyambere mu nzu ndetse ifite n'ibyumba byiza cyane.

Mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, ku mafaranga amadolari ibihumbi magana atanu na mirongo itanu, ushobora kuba wakibonera inzu nziza cyane yo gukodesha, akaba ari inzu igiye irimo ibikoresho bitandukanye, harimo utubati, intebe, ameza ndetse n'ibitanda.

Mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kanombe, ku bihumbi mirongo itandatu na bitanu by'idolari hashobora kuba wabasha kubona inzu nshyashya yo kugura, ikaba ari inzu igizwe n'ibyumba bisa neza ndetse ifite amabara ajyanye n'igihe ndetse ikaba ifitemo n'umwanya ibinyabiziga byabasha guhagararamo.

Ikibanza cyiza kiri kugurishwa akaba ari ikibanza giherereye mu karere ka Kicukiro ndetse kikaba kiri hafi y'ibiro by'ako karere, kandi kikaba gifite metero igihumbi magana arindwi z'ubuso, kandi kikaba gihagaze miliyoni magana atatu n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Mu mujyi wa Kigali mu Karere ka Kicukiro ahazwi nka Kabeza, biravugwa yuko ku bihumbi magana atandatu byawe by'amanyarwanda, ushobora kuhabona inzu nziza cyane yo gukodesha, akaba ari inzu ifite amakaro, irimo ubwogero, ifite ibyumba byiza cyane kandi iri n'ahantu heza, aho bigaragara ko ari ahantu hari umwuka uhagije.

Mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo ahazwi nka Kanombe, birashoboka ko wabonayo inzu y'inzozi zawe, hakaba hari inzu ishobora kuba yajyamo imodoka ebyiri, ifite ibyumba byiza cyane bigezweho kandi ikaba ifite ibikoni kabuhariwe by'imvaburayi.

Mu rwanda mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahazwi nka Kimironko, umuntu ashobora kuba yabasha kubona inzu nziza cyane zo gukodesha ndetse akaba ari inzu zubatse mu buryo bugezweho, aho zifite ubusitani imbere yazo ndetse zikaba zinageretse.

Mu rwanda mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kanombe, ku bihumbi magana atanu by'amanyarwanda ku kwezi ushobora kuba wabona inzu nziza yo gukodesha, akaba ari inzu igizwe n'ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu kandi ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba inafite umwanya uhagije ibinyabiziga byahagararamo.

Mu Rwanda mu Karere ka Gasabo hazwi nk'i Remera hafi ya sitade, ushobora kuba wabasha kubona inzu y'icyumba kimwe ushobora kuba wakodesha. Ku mafaranga makeya, akaba ari inzu yegereye ku muhanda wa kaburimbo ndetse ifite n'umuriro w'amashanyarazi.

Zimwe mu nzu nziza zo guturamo zikodeshwa ikaba ari inzu igeretse rimwe, ndetse ikaba ari inzu ujyamo ukizanira n'ibyo kuraramo n'ibindi bikoresho byo mu nzu by'ingenzi uzakenera umunsi ku wundi kandi ikaba iri ku giciro cyiza.

Zimwe mu nzu zikomeje kugaragara mu mujyi wa Kigali zijyanye n'igihe, akaba ari inzu zigeretse inshuro ebyiri kandi zegereye ku muhanda, zikaba zikunzwe n'abatari bake kubera uburyo zigaragara neza, cyane cyane bitewe n'imitako izitatse.

Mu rwanda mu mujyi wa kigali mu karere ka gasabo ahazwi nka remera ushakakwa wabona inzu y'icyumba kimwe ndetse ifite n'ubwogero mu nzu kandi ifite n'igikoni kigezweho ushobora kuba wakodesha ku mafaranga makeya kandi ndetse ikaba ifite n'ahantu haparika ibinyabiziga imbere.

Mu Mujyi wa Kigali ahazwi nka Kacyiru ku bihumbi magana abiri ku kwezi, ushobora kuba wahabona inzu nziza yo gukodesha, ifite icyumba kimwe cyo kuryamamo ndetse n'icyumba cyo kongeramo ndetse iyo nzu akaba ari inzu nziza cyane buri munyarwanda wese cyangwa uhagera yakwifuza kuraramo.

Mu Rwanda ibihumbi magana abiri na mirongo itanu by'idolari, bishobora kuba byabasha gutuma ugura amazu abiri ameze kimwe, agiye afite ibyumba bine muri buri nzu kandi hakaba hari amazu afite umwanya uhagije imodoka zihagararamo, kandi ikaba igeretse rimwe.

Mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahazwi ku izina rya Nyarutarama, bikomeje kugaragara ko hari amazu meza cyane umuntu yabasha gukodesha, aya mazu akaba azwi ku izina rya apatimenti aho iyi nzu ubasha bukodesha igice ushaka ndetse ukaba wasangamo n'ibikoresho byose ukeneye.

Mu Rwanda mu karere ka Gasabo ahazwi nka Remera, ushobora kuba wabasha kubona inzu nziza wakodesha, akaba ari inzu ifite icyumba kimwe cyo kuraramo, ubwogero bumwe ndetse ikaba ifite n'igikoni cya kijyambere kandi ukaba wayibona ku giciro cyiza.

Mu Rwanda mu karere ka gasabo ahazwi kanombe. Ku bihumbi magana ane ushobora ko wabasha kubona inzu, wakodesha ku kwezi ifite ibyumba bitandatu byo kuraramo ndetse n'ubwogero, butatu kandi hakaba ari inzu iherereye, ahantu ku muhanda kandi hari ubusitani bwiza.

Amasoko y'ubucuruzi bukomeye azwi ku izina rya supamaketi akaba ari isoko riba rifite ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibyo kurya, ibyo ku meza, imitako ndetse n'ibikoresho bikoresha umuriro w'amashanyarazi.

Mu rwanda mu mujyi wa Kigali ubucuruzi bukomeje gutera imbere, aho abantu benshi bakomeje kugenda bacuruza ibihangano byabo, birimo abakorera mu nzu z'imideli aho bakomeje gukora imyenda yerekana imico runaka igiye itandukanye ndetse akaba ari imyenda ikundwa cyane n'abayigura.

Inzu y'ubucuruzi igeretse inshuro eshatu, iri mu mujyi wa Kigali ni imwe mu nzu zigezweho ndetse ikaba icuruza ibintu bitandukanye, harimo imyenda inkweto ndetse n'ibikoresho byo mu rugo.

Amwe mu masoko agezweho ya kijyambere, aho ubu umuntu ashobora kubasha kugura ibintu ashaka ndetse akihitiramo. Akaba akunze cyane gucuruza imboga n'imbuto ndetse n'ibyo kunywa, abayagana bakomeje kwishimira serivisi agenda abaha. Kubera y'uko babona ibintu bashaka mu buryo bwihuse.

Amwe mu masoko ajyanye n'igihe ageretswe inshuro zirenze enye, akaba riherereye mu mujyi wa Kigali kandi rikaba ritanga amaserivisi agiye atandukanye, harimo ubucuruzi bw'imyenda, ibyo kurya ndetse n'ibikoresho byo mu mazu kandi hakaba hanatangirwa serivisi zinyuranye harimo n'amaserivisi ya banki.

Umukozi w'ikigo cy'ubwishingizi kizwi ku izina rya RSSB arimo atanga ikiganiro ku banyamakuru, aho yari arimo abasobanurira intego za kino kigo ndetse n'uburyo kizateza imbere imibereho y'abanyarwanda muri rusange.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere ryihuse mu bijyanye n'ubuzima, bitewe no kuba haraje ubwishingizi bufasha ababukoresha kubishyura amafaranga bakoresheje bahabwa serivisi zijyanye n'ubuzima ndetse ku isonga hakaza icyitwa mituweli do sante, aho abaturage bishyura amafaranga make nyuma bakajya babafasha kubishyurira ayo bakoresheje yose, bivuza bakishyura duke dusigaye.

Ishami rishinzwe gucunga ubwisungane mu kwivuza mituweli mu Rwanda rikomeje kuvuga yuko abatura Rwanda bakomeje kwitabira iki gikorwa kandi n'abacyitabira bavuze yuko cyabafashije mu guteza imbere ubuzima bwabo kubera ko kibafasha kwishyura amafaranga yo muri serivisi y'ubuzima.

Mu rwanda hakomeje kugenda hagaragara iterambere rya gahunda y'ubwishingizi bwo mu gihe kizaza, akaba ari gahunda izwi ku izina rya ejo heza, aho umunyamuryango uyirimo abasha kubitsa amafaranga bakazayamusubiza mu gihe cy'izabukuru cyangwa igihe yahuye n'ibyago.

Mu rwanda hakomeje ubukangurambaga mu gusobanurira abaturarwanda gahunda ya ejo heza aho bakomeza basobanurira uburyo ino gahunda yo izabafasha mu bihe biri imbere aho batanga amafaranga bakizigamira nyuma bakazayabaha mu myaka y'inyuma kugira ngo abafashe mu zabukuru.

Mu Rwanda aho ubwishingizi bukomeje kugenda butera imbere ko bwije n'uko bukeye, ubwishingizi bwa RSSB na bwo ntibwasigaye inyuma, aho abakozi babwo bakira ababagana mu buryo bwiza bugezweho ndetse bakanabasobanurira imikorere yabo.

Twaganiriye n'abarwayi benshi bakunda kwivuza bagaragaje y'uko ubwishingizi mu kwivuza bwabafashije cyane bukaba bubarinda kuzahazwa n'indwara, aho bavuga yuko mituweri do sante ibafasha kwishyura mirongo inani nagatanu ku ijana by'amafaranga bari babaciye mu bitaro.

Ubuvuzi mu gihugu cy'u Rwanda bukomeje gutera imbere muburyo bworoshye, bitewe na serivisi z'ubwishingizi zahageze harimo nk'ubwa mituweli do sante cyangwa bwa Rssb, aho abaturarwanda benshi bavuga y'uko bubafasha koroshya kwishyura bikabafasha kwivuriza ku gihe badatinze.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara ubufatanye ndetse n'iterambere mu bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, aho uburyo bugezweho bwo gukoresha ubwishingizi buzwi nka RSSB, bukomeje guteza imbere ubuzima bw'abanyarwanda, aho bubafasha kwishyura amafaranga bakoresheje bivuza.

Uburyo bw'ubwishingizi mu kwivuza buzwi nka mituwere de sante mu Rwanda, abaturarwanda benshi bakomeje kuyishimira uburyo bubafasha kwishyura serivisi bahabwa n'ubuzima, ndetse n'ibitaro mu Rwanda, aho bubasha kubishyurira mirongo inani na gatanu ku ijana by'amafaranga baba bakoresheje.

Simba ni imwe mu nzu itanga ubucuruzi bwa kijyambere bugezweho buzwi ku izina rya supamaketi, aho umuntu agenda akabona ibintu bigiye bitandukanye ndetse agasanga buri cyose gifite igiciro cyacyo, nyuma akaza kucyishyura asohotse.

Amasoko akomeye azwi ku izina rya supamaketi nkamwe mu masoko umuntu ajyamo akabasha kwiha ikintu ashaka kandi akaba bafite ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyo kurya, ibyo kwambara ndetse n'ibikoresho byo mu rugo bitandukanye kandi abayagana bishimira uburyo bakirirwamo.

Inzu y'ubucuruzi bugezweho aho umuntu agenda agafata ikintu ashaka ubundi akishyura izwi ku izina rya simba yo ku gishyushyu. Bikomeje kuvuga ko iri mu mazu atanga ubucuruzi bwiza, nkuko bigaragara ko haba hari n'abantu benshi baje kuhagurira ibintu bakeneye cyane cyane ku masaha ya nimugoroba.

Amwe mu masoko yo mu mujyi ajyanye n'igihe kandi akaba ari amwe umuntu aza agafata icyo ashaka atiriwe ategereza ko bamwakira kandi akaba arimo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kurya, byo kwambara ndetse n'ibikoresho by'isuku.

Uburyo bw'ubucuruzi bugezweho abantu benshi bakomeje kwishimira uburyo bakirwayo kubera bugenda bu ukareba ikintu ushaka ukagifata icyo ukora ni ukujya kucyishyura gusa, ndetse n'ababukora bakomeje kwishimira ko byamfashije cyane uko byabafashije mu kugabanya umubare w'abakozi bakoreshaga.